Hari ubwishingizi bushyashya, bugezweho mu bigo bitandukanye, mu bijyanye no kwivuza ndetse mu bigo bito hari amahirwe y'uko umuntu wese agira uruhare mu kwizigamira.

Radiant ni ikigo kigufasha kwizigamira, bityo mu gihe wibwe ukaba wabasha gushumbushwa ibyo wibwe ndetse ugafashwa no kubona uburyo bwo kubaho ndetse no gukomeza gukora igihe wibwe ibikoresho.

Ubwishingizi bw'ubuzima ni ingenzi cyane, kuko indwara itera idateguje, buri munyarwanda wese asabwa gutanga ubwishingizi bwo kwivuza, kugirango igihe agize indwara, abashe kubona ubuvuzi.

Ba ufite icyizere cy'ubuzima. Baho neza utanga amafaranga yo kwizigamira mu bwishingizi butandukanye. Ubwishingizi buzakugoboka mu gihe kiri imbere.

Igikorwa cy'ubwishingizi ni igikorwa cyiza cyane, aho umuntu ashobora gutanga amafaranga make make, bityo mu gihe kizaza yazagira ikibazo, maze ubu bwishingizi bukazamugoboka.

Kuzigamira umuryango wawe amafaranga mu bigo by'ubwishingizi, ni ibintu byiza cyane kubera ko ahanini usanga bifasha abana bawe mu gihe bakuze.

Mu by'ukuri kwizigamira gutanga amafaranga y'ubwishingizi, ni ibintu byiza cyane kubera ko bikugoboka mu gihe ugize ikibazo, haba mu bigendanye n'ubuzima cyangwa se n'ikindi icyo ari cyo cyose cyakubaho.

Tamu Layifu Inshuwarensi ni ikigo gitanga ubwishingizi butandukanye, aho ushobora kugira ikibazo waba waratanze amafaranga y'ubwishingizi muri iki kigo bakakugoboka mu kibazo wagize.

Equity bank, ni banki nziza cyane ikorera mu bihugu byinshi by'Afurika, ikaba yarakemuye ibibazo bigendanye no kubitsa amafaranga ndetse no kohereza ku nshuti zawe, mu by'ukuri iyi banki iyo umaze kwishyura cyangwa gukoresha serivise, bakwereka amakuru yose yerekeye konti yawe.

Ikoranabuhanga ryaragakemuye ku buryo ubungubu ushobora kohereza amafaranga kuri banki ukoresheje telefone yawe, aho winjira muri sisiteme hanyuma ugashaka apulikasiyo ikorana na banki.

Udukapu twiza tugezweho tw'abagore tubafasha gutwara ibintu byabo bitandukanye nk'amatelefone, ndetse n'udutambaro two kwihanaguza, n'utundi tuntu two kwifashisha nk'amavuta, mu gihe bahuye n'imbogamizi, turaboneka cyane ku giciro gito.

Iduka ryiza cyane, ricuruza imyenda itandukanye y'abakobwa nk'amajipo meza, amasengeri, inkweto nziza ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Iduka ribamo ibicuruzwa bitandukanye ndetse rigira n'imyambaro nk'amakoti, amashati meza ndetse n'ibindi byinshi ushobora gukenera.

Iduka ryiza cyane ricuruza imyenda, amakoti, amakanzu, imipira myiza ndetse n'indi myambaro itandukanye, riherereye mu mujyi wa Kigali.

Ku isoko ushobora kugura ikintu cyose ushaka cyaba ari imyenda cyangwa se ibiribwa, wowe uraza ugahitamo icyo ushaka ubundi ukishyura.

Mu Rwanda hari ubugeni bwinshi butandukanye bushingiye ku muco, aho ugenda ubona ibintu bitandukanye abanyarwanda bakoraga kera, nk'uduseke tuboshye neza ndetse ukabona n'amahembe y'inka n'ibindi byinshi bitandukanye, nk'imbehe n'ibindi bikoresho byose.

Iduka ryiza ushobora gusangamo imyenda myiza y'abakobwa, irimo amakanzu meza cyane ndetse hari nimero za terefone, wabahamagaraho rwose bakaguha imyenda.

Ubu nawe watunga imodoka yawe aho ugana abacuruza imodoka hanyuma ugahitamo imodoka ushaka, bityo nawe bikagufasha mu buzima bwa buri munsi unyuramo.

Akagera motazi ni kompanyi ikora ubucuruzi bw'imodoka, aho bafite abantu bashobora kugufasha kugira ngo nawe utunge imodoka yawe, ku giciro cyiza kandi cyoroheye buri wese.

Ushobora kugura imodoka mu buryo bworoshye wifashishije abacuruza izi modoka, bityo ukabasha gutemberana n'umuryango wawe.

Ubu wagura imodoka yawe mu gihe ubashije kumvikana n'abazicuruza, hanyuma ikagufasha kujya ku kazi kawe ndetse n'ibindi bitandukanye muri rusange.

Uruhurirane rw'imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye, aho ushobora kuza ugahitamo iyo ushaka ukayikodesha ukigira mu birori ndetse n'ibindi bitandukanye, cyangwa se ukanayigura hanyuma ikaba iyawe burundu.

Ku bufatanye n'abacuruza amamodoka buri muntu wese yatunga imodoka ye ku giciro cyiza bitewe n'imodoka ashaka. Hari imodoka z'ubwoko butandukanye.

Akagera motasi bashobora kugufasha kugura imodoka yawe nawe ukayitunga mu buryo bworoshye, bafite imodoka zitandukanye zo mu bwoko bwinshi.

Ni byiza cyane gushimira umuntu ugufashije, nko gukura akazigo mu modoka, cyangwa se mu gihe yaba agufashije akuyobora, akwereka aho waparika ikinyabiziga cyawe.

Ugiye muri Kigali cars market wahabona imodoka nziza ya miliyoni cumi na zirindwi kandi ikaba ari imodoka rwose yagufasha waba uri umuntu ufite akazi cyangwa wikorera, yajya ikugeza aho ukorera neza, ikanagusubiza mu rugo nta kibazo.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Imodoka zo mu bwoko bwa Yundayi, ni imodoka nziza cyane zikorwa n'uruganda rwitwa Yundayi, akaba ari imodoka ziri gukundwa cyane muri ibi bihe cyane cyane mu mujyi wa Kigali.

Kubitsa amafaranga kuri banki, ni uburyo bwiza bwo kubika amafaranga ku buryo umutekano wawe uba wizewe, aho amafaranga yawe adashobora kwibwa cyangwa ngo agire ikibazo.

Ni byiza gufata amafaranga yawe ukayabitsa kuri banki kuko ariho hari umutekano wizewe naho igihe yagendanye mu ntoki cyangwa ukayabika mu nzu ashobora kwibwa.

Inyanza ahakorerwa ubucuruzi bwinshi ndetse bukomeye bw'ibikomoka ku mata. Harimo amata, aba ari amata meza cyane ndetse n'ibindi nk'amata y'ifu ndetse n'ibindi byinshi.

Mu iduka ushobora kuhasanga ibicuruzwa bitandukanye by'umwihariko ibiribwa, nk'imigati ndetse n'ibindi bikomoka ku mafarini bitandukanye.

Muri resitora wahasanga ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibinyobwa: harimo nk'amata, capati, amandazi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inzu icururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa nk'icyayi, amata ndetse n'amandazi, iboneka henshi cyane mu gihugu.

Amata agomba kubuganirizwa mu cyansi kimeze neza, cyogeje, gifite isuku, nk'uko amata mu muco nyarwanda agomba kugirirwa isuku.

Ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho, wakishyura amafaranga ndetse ukanayohereza mu buryo bukoroheye ukoresheje telefoni, akarusho ni uko bakwereka uko ibikorwa byagenze.

Ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho buzwi nka Onorayini bankingi, ni uburyo mu rurimi rw'icyongereza ushobora kwishyura cyangwa kohereza amafaranga mu bihugu bitandukanye nko muri leta zunze ubumwe za Amerika.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Hoteri nini iri mu bwoko bwa etaje igeretse gatatu yanditseho giriti apatimenti hoteri ivuze ko ari hoteri nziza irimo amacumbi akodeshwa.

Uburyo butandukanye wakoresha wishyura amafaranga ku bicuruzwa cyangwa kuri serivisi zitandukanye ukoresheje telefone yawe, aho gukoresha amafaranga ngendanwa.

Igipapuro k'inyemezabwishyu gitangwa n'ikigo cyimisoro n'amahoro, kikaba kigaragaza igiciro cyamafaranga iki kintu cyatanzweho nicyo gikorwa cyakozwe.

Peyi peyi ni uburyo ushobora gukoresha wishyura amafaranga mu buryo bugezweho, ukoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye nka telefoni, mudasobwa ndetse n'ibindi.

Inyemezabwishyu ni urupapuro umuntu ahabwa rugaragaza ko yishyuye amafaranga bitewe na serivise cyangwa se icyo yaguraga cyangwa icyatumaga atanga ayo mafaranga.

Igipapuro kigaragaza amafaranga uko agenda yinjira ndetse n'uko agenda asohoka. Ni igipapuro gishobora gufasha umuntu uri gukora ibigendanye n'ubucabitsi ndetse n'ubucuruzi butandukanye.

Ni ngombwa guhabwa inyemezabwishyu, igihe cyose umaze kwishyura amafaranga kugira ngo wizere ko amafaranga yawe yageze aho yagombaga kujya nta kibazo agize.

Leta y'u Rwanda ni leta yakira buri muntu wese uje ayigana, mu by'ukuri ifite abayobozi bagerageza gutanga serivisi nziza ku baturage b'abanyagihugu ndetse n'abo mu mahanga.

Ubu byaroroshye gukoresha amafaranga y'amanyamahanga azwi nk'amadevize, kubera ko hari ibigo byinshi bikora ivunja ry'aya mafaranga bakaguha amanyarwanda.

Amafaranga y'ibiceri by'amadovize akeneye kuvunjwamo amanyarwanda, yose akusanyirizwa hamwe hanyuma akajyanwa ku biro bibishinzwe.

Ivunjishwa ry'amafaranga y'amadevize rishingira ku gaciro ifaranga rifite bitewe n'igihugu ryaturutsemo. Urugero: niba ari idolari ry' Amerika cyangwa niba ari Iyero cyangwa se ari andi mafaranga akoreshwa n'ibihugu bitandukanye.

Hashyizweho uburyo butandukanye, bwo gukemura ikibazo cy'ivunjwa ry'amafaranga y'amadevize, aho byibura muri buri karere kegereye umupaka, hashyizwe abakorana n'iyi serivise, mu buryo bworoshye.

Ivunja ndetse n'ivunjishwa ry'amafaranga y' amadevize, ni serivisi itangwa n'ibigo bifitiye ububasha ndetse n'ubushobozi, ntago buri muntu wese yemerewe kukuvunjira amafaranga.

Ivunjishwa ry'amafaranga azwi nk'amadevize y'amanyamahanga rikorerwa hose mu rwanda hafi mu bice byose by'igihugu kandi yaba ari amafaranga yo muri afurika cyangwa se ay'i burayi no muri amerika yose aravunjwa.

Amafaranga y'amadevize ntago yemerewe gukoreshwa mu Rwanda, ahubwo ugana ishami rishinzwe kuyavunja, hanyuma bakaguha amanyarwanda.

Ahatangirwa serivise zo kuvunja amafaranga y'amadevize ni hantu ushobora gusanga mu mijyi itandukanye mu Rwanda, aha ngaha niho ushobora kubonera iyi serivise honyine.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye baje gushaka serivise zo kuvunjisha amafaranga y'amadevize baturutse mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika ndetse n'Iburayi.

Hari uburyo butandukanye bwo kohereza amafaranga mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika aho ushobora gukoresha nk'uburyo buzwi nka vilashi foregisi ndetse n'uburyo bwo gutanga ndetse no kohereza amafaranga.

Ahabugenewe ho kuvunja amafaranga y'amanyamahanga, niho buri muntu wese ushaka izo serivisi zigendanye no kuvunjisha amafaranga y'abamanyamahanga, niho asabwa kuza kuyavunjishiriza.

Ku biro by'ivunja n'ivunjwa ry'amafaranga niho honyine ushobora gusanga amafaranga y'amadevize cyangwa amafaranga akomoka mu bindi bihugu, nta muntu wemerewe kuyakoresha usibye abakora muri izi serivisi.

Ukeneye ibikoresho byo mu nzu nk'intebe, ameza n'ibindi, ushobora kugana abacuruza ibi bikoresho, hanyuma nawe ukagira salo isa neza.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Abagabo batatu aho bicaye umwuka umwe akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse akaba yambayemo n'ishati y'ubururu, abandi babiri bakaba bambaye amashati y'mweru, aho buri wese hari akarangururamajwi imbere ye wo hagati akaba ari we uri kuvuga.

Ushobora kwandika inyandiko ukoresheje mudasobwa yawe hanyuma ukayisohora ukoresheje imashini yabugenewe, bityo bikagufasha cyane mu buryo bwo kugira ngo inyandiko yawe itangirika cyangwa ngo isaze.

Muri hoteli ni ahantu heza ushobora kujya ukajyana n'umuryango wawe, mukanywa, mukarya,; mukanezerwa ndetse mukifotoreza no mu busitani bwiza cyane buba buhari, burimo indabo ziteye amabengeza.

Mu mahoteri habamo ibyo kurya byiza biteguranywe isuku ndetse byatekanwe ubuhanga nk'inyama zitegurwa mu buryo butandukanye.

Amahoteli atanga ibyo kurya ku bakiriya, ndetse akanabacumbikira, kandi atanga serivisi nziza zinogeye buri wese.

Amahoteli ni ibikorwaremezo by'ingenzi, byifashishwa mu kwakira abantu, baba abaturutse hanze cyangwa se n'abaturutse hirya no hino mu gihugu, mu rwego rwo kugira ngo babashe kubona icyo kurya ndetse n'icyo kunywa.

Mu nyubako nini zizwi nka ma etaje cyangwa amagorofa zigira umwanya unyurwamo aho haba hari ama esikariye azamuka.

Abagabo batatu aho bicaye umwuka umwe akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse akaba yambayemo n'ishati y'ubururu, abandi babiri bakaba bambaye amashati y'mweru, aho buri wese hari akarangururamajwi imbere ye wo hagati akaba ari we uri kuvuga.

Hoteli zigira uruhare mu iterambere ry'igihugu harimo gutanga imisoro ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Hoteli zitanga serivisi zo gucumbikira abantu no kubagaburira twavuga nka hoteli Kiyovu.

Ibiro bishinzwe ubwishingizi butandukanye biboneka hose mu gihugu, aho buri muntu wese ashobora kuhagera agasaba serivisi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza mu Rwanda kizwi mu magambo y'ipine nka RIB, ni ikigo gitanga serivisi nziza cyane kandi cyakira abakigana bose bifuza gutanga ibirego byabo cyangwa se ibibazo byabo.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ubu wasaba inguzanyo muri banki ya Eko banki ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, hanyuma ukiteza imbere, ni ibintu byoroshye cyane, kandi buri munyarwanda wese, ashobora gukoresha iyi serivisi.

Banki ya Equity itanga inguzanyo ku buryo bworoshye, aho buri muntu wese ashobora gusaba inguzanyo, kugira ngo atangire umushinga wamuteza imbere mu mibereho ye ndetse no mu bikorwa bitandukanye.

Umuhanda urimo imodoka zitari nyinshi iy'umutuku inyuma, imbere hari izindi n'amamoto hepfo tukabona urukamyo runini cyane bisa nk'aho ari rwarundi ruterura izindi, mu muhanda tukabonamo icyapa kiriho umweru tukabonamo amapoto rwose y'amatara amurikira umuhanda.

Ubu wafata inguzanyo mu Mutanguha fayinansi, aho iki kigo cy'imari, gifite amashami atandukanye, nko muri Kicukiro.

Ku isoko haba hari abantu benshi batembereza ibyo kurya birimo nk'ibiraha ndetse n'ibindi byinshi abantu bari ku isoko ntibicwa n'inzara.

Inyubako nziza rwose igeretse rimwe ikodeshwa igihumbi magana arindwi y'idolari buri kwezi ikaba ari inyubako ifite ibyumba bitanu byo kuraramo, ndetse n'ubwogero butanu, rero ni inzu nziza cyane ushobora kuza ugakodesha hanyuma ukabaho neza, iherereye i Kigali kibagabaga.

Ku isoko rigezweho ry'ibiribwa ushobora kuhabona ibiribwa bitandukanye: imbuto, imboga, ndetse n'ibindi byinshi. Twavuga inyanya, ibitunguru, indagara, ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha ibicuruzwa bitandukanye ku isoko, abagore, abagabo bose baje guhaha ibintu bakeneye.

Kiyosike cyangwa ikizwi nk'akazu ka MTN gakoreramo umukozi wa MTN utanga serivise z'ibanze za MTN nko kubitsa, kohereza ndetse no kwakira amafaranga.

Ishyura ukoresheje uburyo bwa MTN buzwi nka momo peyi mu buryo bworoshye cyane, aho ushobora kwandikamo kode hanyuma ukishyura byoroshye.

Umuntu wese ashobora gukoresha serivisi za MTN aho ashobora kwegera umukozi wa MTN ushinzwe gutanga serivisi zo ku rwego rwa mbere.

Ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri akadirishya, ushobora gukoresha serivisi zo kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye, udakaswe amafaranga y'igiciro cyo kohereza.

Akazu ka MTN, ni akazu kubatse mu buryo kaba gateretse ahantu ku muhanda, aho buri muturage wese aza gusaba serivisi zo ku rwego rwa mbere, nko kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga, cyangwa se kuyoherereza inshuti n'abavandimwe.

Iyo winjira mu buryo bwo kwishyura amafaranga ukoresheje serivisi ya momo payi izwi mu buryo bwa MTN ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri gatatu akadirishya ubundi ugakurikiza amabwiriza.

Iduka ry'ikoranabuhanga, aho wishyura ukoresheje ikizwi nka momo peyi, uburyo bw'ikoranabuhanga ukoresha muri telefoni wishyura amafaranga ku kintu waguze cyangwa se muri serivisi zitandukanye.

Gucuruza ukoresheje ikoranabuhanga ni ibintu byiza cyane kuko bigufasha gukorana ubucuruzi n'abantu batandukanye, bo mu bihugu bitandukanye ndetse no ku isi yose muri rusange.

Kwambara kasike neza mugihe ugiye gutwara moto ni ibintu byingenzi cyane kuko bikurinda igihe ukoze impanuka, ukaba utajanjagurika umutwe.

Kwiyongera k'ubucuruzi bukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga mu Rwanda, amahirwe, imbogamizi ndetse n'uburyo twakemura iki kibazo cyangwa izi mbogamizi duhura nazo.

Ubu wahaha ukoresheje uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga, aho ushobora kubikorera aho waba uri hose nta nkomyi kubera ko ari ibintu byoroshye cyane.

Ubucuruzi bukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga bushobora kugufasha kugura ibicuruzwa mu Bushinwa, muri Amerika ndetse n'ahandi henshi hatandukanye mu buryo bworoshye ukoresheje simatifoni cyangwa mudasobwa.

Uburyo butandukanye bw'ikoranabuhanga wakoresha ugura cyangwa ugurisha igicuruzwa ukoresheje telefone yawe cyangwa mudasobwa, ni uburyo bwiza cyane bwakemuye ikibazo cyo gukoresha amatike ndetse n'ikindi kibazo cyo kutizerana.

Ku mbuga nkoranyambaga ushobora kunyuraho ushaka serivisi z'ubucuruzi. Nk'aho ushobora kwandikamo isoko rigari akadomo komu, hanyuma ukabona ibicuruzwa bitandukanye.

Inzu nziza ikodeshwa ibihumbi magana atandatu kandi ikaba ari inzu ifite ubushobozi bwo kwakira ababana nk'umugore n'umugabo ndetse bafite n'umuryango.

Mu mujyi wa Kigali Kacyiru haba amazu akomeye cyane, afite agaciro kabarirwa mu mamiliyoni y'amadolari y'Amerika ibihumbi cumi na bitanu.

Inzu nziza iherereye mu mujyi wa kigali, irimo ibyumba birenga bitanu ndetse na salo. Igura miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda.

Vibe Real Esitete, bagufasha kugura umutungo utimukanwa harimo nk'amazu ndetse n'ibindi byinshi cyane, ibyo bikaba byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi kugira nawe umutungo utimukanwa.

Mu mujyi wa Kigali ahitwa Kibagabaga, haboneka inyubako nziza cyane zibereye ijisho rwose, zitegeye umuhanda kandi ziri ahantu heza.

Inyubako nziza ushobora kubona mu Rwanda ihagaze agaciro kangana na miliyoni mirongo icyenda n'eshanu kandi ikaba ari inyubako ifite n'aho guhagarika imodoka, ikaba ari inyubako nziza cyane buri muntu wese ufite ayo mafaranga yakigurira.

Inzu ikodeshwa ibihumbi magana atandatu iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali, kandi ikaba ari inzu nziza irimo ibikoresho bikeya.

Inzu zikodeshwa zo kubamo ku Gisozi ziraboneka cyane ku mafaranga make, nawe uyafite waza ukibonera inzu ushaka.

Ni umujyi wa Kigali wahasanga amaduka acuruza imyenda myiza cyane y'abakobwa ndetse n'abahungu, abagabo n'abagore, ushaka amakote meza wajya muri aya maduka.

Ibigo byita ku buzima bitoya bizwi nka posite do sante, ni ibigo byiza kuko bitanga ubufasha bw'ibanze ku murwayi ndetse bigatanga n'inama zitandukanye ku bigendanye n'ubuzima.

Zigama ejo heza! Ejo heza ni ubwizigame bugufasha kugira ngo buzakugoboke mu gihe cy'izabukuru. Mu by'ukuri, ejo heza ni ikintu cy'ingenzi cyane dukwiriye kwitabira.

Aba babyeyi bose baje kwiga gusoma no kwandika neza ikinyarwanda kubera ko batigeze bagira amahirwe yo kwiga mu gihe cyabo bakiri bato.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, bitabiriye igikorwa cyo gutanga igihembo ku bitwaye neza mu bijyanye no gucunga ndetse no kurinda umutekano w'abanyarwanda.

Ikigo cy' igihugu gishinzwe kwita ku buzima kizwi mu ndimi z'amahanga mu nyuguti z'impine nka RSSB, iki kigo gikangurira abaturage kwizigamira ejo heza kugira ngo nibarwara babashe kwivuza.

Ku isoko haboneka ibiribwa bitandukanye birimo imineke, inanasi, ubunyobwa, ibishyimbo, soya ndetse n'ibindi byinshi umuntu wese ashobora kwihahira mu buryo bworoshye.

Uruhurirane rw'ibicuruzwa biba mu isoko rinini rizwi nka supamaketi, ni ibicuruzwa byizewe cyane cyane ko harimo ibyinshi byiganjemo ibiribwa bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abitabiriye isoko rizwi nka supa maketi, ari isoko rinini rifite ibicuruzwa bitandukanye.